Mu buhinzi bwa kijyambere haba hakenewe ibintu byinshi, haba hakenewe imborera, n'imvaruganda. Ifumbire ya ire nayo ni inyongera musaruro ubundi imyaka ikamererwa neza igakura neza.

Imifuka ni ibikoresho byifashishwa mu gupakiramo imyaka, imvaruganda, imyunyu n'ibindi byinshi bifashisha bakoresheje imifuka.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti bahetse amapombo bari gutera imiti mu bigori bikiri bito. Ibigori iyo byeze bigira umusaruro.

Umuhinzi w'umugabo wambaye isarubeti ahetse ipombo, ari gutera umuti mu myaka kugira ngo ubusimba butayonona .

Umugabo wambaye akagofero n'ikoti n'ipantaro ari gutera umuti mu muceri kugira ngo ubukoko butawangiza. Umuceri ni igihingwa cyiza cyane.

Ikiganza cy'umuntu gifashe umukondo w'ipombo asa n'aho ari gutera umuti mu nyanya z'ibitubwe zitari zera cyangwa zigiye kwera.

Umugore w'umuhinzi ahetse ipombo mu mugongo, ari gutera umuti mu myaka, yambaye n'igitenge cy'umutuku.

Ibishingwe byifashishwa n'abahinzi bari gufumbira imyaka ya bo, kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije cyane.

Imifuka myinshi y'imvaruganda itondetse ku mbaho, kugira ngo hatazinjiramo ubukonje bwo hasi ku isima.

Iyo umuhinzi yateguye umushinga wo guhinga, agomba gukoresha ifumbire y'imborera, agakoresha imvaruganda, hari imiti y'imisukano, hakaba n'imiti n'imiti.

Iyo ibihingwa byafashwe n' ubukoko, bifashisha imiti yica ubukoko bakoresheje ipombo. Iyo umuhinzi adasura imyaka ye, ubwo byatuma ubukoko buyangiza. Imiti rero ni ingirakamaro mu bihingwa.

Kugira ngo imyaka yere neza hatazazamo udukoko, bateramo imiti mvaruganda. Imiti yica ubukoko bwinshi cyane.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara n'ingofero y'umukara na bote. Ahetse mu mugongo ipombo, ari gutera umuti mu myaka kugira ngo ubukoko butazayonona.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'ijipo ameze nk'uri kuminja ifumbire mu murima, ifumbire ituma imyaka ikura neza, umusaruro ukiyongera.

Amafi matoya atondetse mu dukarito. Udukarito tumwe dusa n'ubururu, utundi dusa n'umutuku n'umuhondo.

Ubworozi bw'amafi. Amafi nayo bayorora kijyambere, bayororera muri za kareremba, kugira ngo akuriremo. umworozi mu gihe cyo kuyaroba, azayafate bitamugoye,

Ubutaka burambuye. Hirya y'ubwo butaka hateye ishyamba rirerire. Amashyamba ni meza, amashyamba atuma tubona umwuka duhumeka, amashamba atuzanira imvura.

Amafi akunda kuba mu nyanja no mu biyaga. Amafi bayororera no mu bizenga byacukuwe n'aborozi. Amafi ni ingirakamaro adutungira ubuzima.

Uburobyi ni umwuga mwiza, abagabo bari mu bwato mu kiyaga cya kivu, bari gushaka amafi, kandi amafi ni intungamubiri ku mubiri wacu.

Mu mafunguro haba harimo ibiribwa byinshi binyuranye. Amafi araryoha, inyanya, imbuto za avoka, za karoti byose abantu barabikunda cyane.

Isiniya iriho ibiryo bitandukanye ,hariho ifi, imboga, n'umuceri ,bikundwa n'abantu benshi kandi byuzuyemo intungamubiri nyinshi.

Ishyamba ry'ibiti, hino y'iryo shyamba hubatseho inzu z'inkwavu. Inkwavu kuzubakira hejuru nibyo byiza kugira ngo hatagira ubukoko buzegera zikangirika.

Indege ya kajugujugu iri mu kirere, kajugujugu igira umuhoro uyifasha kuguruka, iruhande rwa kajugujugu hariho ipoto, iriho itara riri kwaka, hirya y'aho hariho inzu. Iyo kajugujugu yanditseho Porisi.

Ubworozi bw'amafi buba mu biyaga no mu nyanja. Ubworozi bwa kijyambere bw'amafi, bazororera mu kizenga, naho mu kiyaga bakazororera muri za kareremba, ni ko korora kijyambere.

Ku isaniya hariho ibiribwa bitandukanye. Hariho indagara, inyanya, ibirayi bakaranze byitwa sote, iruhande hariho amacunga, n'inyanya.

Ubwoko bw'amafi bita amahera buri mu gatimba kagenewe kuyatega. Amahera ni ubwoko bw'amafi buryoha cyane, kandi bworohera abantu badafite amafaranga menshi kuyagura.

Mu kiyaga cya kivu habamo ibintu binyuranye amafi, n'indagara. Hagati y'icyo kiyaga harimo ikirwa cyitwa ijwi nikirwa kinini cyane.

Amafi n'intungamubiri, amafi iyo bamaze kuyaroba kugira ngo atononekara, bayashyiraga ahantu hakonje cyane nko muri firigo, n'ahandi hakonje kugira ngo atononekara.

Abarobyi bari mu mato, abarobyi bari kuroba amafi, mu kiyaga Kivu ni mu cya Ruhondo, abarobyi kugira ngo bafate amafi, baba bitwaje ibikoresho byabugenewe, bagafata amafi, ubundi bakagaburira abanyarwanda bose.

Abagabo batatu bahagaze, iruhande rwabo hariho ubwato bwabajijwe mu giti, ubwato bufite n'aho abantu bicara, iyo bari kwambuka mu kiyaga.

Indagara ni ubwoko bw'amafi mato, bayaroba mu Kivu bakayumisha, bakayagemura mu masoko, abantu bose akabageraho, bityo bakiyubakira umubiri.

Amafi yororerwa mu bizenga, cyangwa mu biyaga amafi agira intungamubiri nyinshi mu buzima, amafi araryoha akorohera kandi akorohera n'utagira amenyo, amafi abantu benshi barayakunda cyane.

Amafi abiri manini ari ku nkoko. Amafi agira intungamubiri nyinshi.

Amafi aba mu nyanja no mu biyaga, amafi araryoha, agira intungamubiri nyinshi nk'amagi, amafi ni meza cyane ku mubiri w'abantu.

Amafi aba mu biyaga no mu nyanja, iyo bamaze kuyaroba barayumisha bakayajyana mu isoko, abaturage bakagura, iyo yumye bituma aramba ntazabore.

Mu Kivu habamo amoko menshi y'amafi. Isambaza na zo ziba mu Kivu. usanga abarobyi bari kuziroba, bakiteza imbere, bakabona n'amafaranga.

Amafi bayororera mu cyuzi. Aba bantu bari kuroba bafashe agatimba, bari gukurura kugira ngo amafi afatwe mu gatimba babone ubuyajyana ku isoko.

Ubworozi bw'amafi buba mu kiyaga, amafi kuyorora kijyambere bayororera mu dutimba, kugira ngo aborozi bazayafate bitabagoye. Amafi araryoha atunga umubiri neza.

Uburobyi ni umwuga utunze abegereye ibiyaga n'ibishanga, iyo umurobyi amaze gufata amafi arayabaga, akayamanika kugirango yumuke, ubwo akayamanika, bakayababura.

Amafi aba mu biyaga no mu nyanja, amafi abantu benshi barayakunda, amafi n'intungamubiri cyane ameze nk'amagi, ameze nk'inyama z'indobanure.

Ubuhinzi bw'ibidodoki buri henshi mu Rwanda. Ibidodoki biraryoha bikunze kuranda ku ruzitiro cyangwa mu giti niho byerera.

Umurima uteyemo ubwatsi bwa kameroni. Hirya y'uwo murima hariho urutoki, urutoki. Mu rutoki hateyemo inkingi. Hirya ya ho hariho n'umusarani.

Urutoki ni igihingwa cyiza cyane, hirya y'urwo rutoki hariho inzu nziza ni urugo rw'umuturage, hubatseho umusarani ku ruhande.

Igiti cy'ubwoko bwa Rinusi, hirya ya cyo hari ibindi biti, biteye ahantu mu isambu, wagira ngo ntiheruka guhingwa.

Umurima urimo ibikenyeri byashaje. Harimo ibishingirizo bihagaze, hirya hariyo agashyamba.

Umurima, iruhande rwa wo hariho ibikenyeri by'ibigorigori, byegetse ku biti. Ibiti ni birebire, bimaze igihe kirekire.

Insina z'inyamunyu zitunze abantu benshi. Insina zigira amoko menshi hari izitwa incakara, hari izitwa inyumbu arizitwa fiya, hari izitwa goromisheri.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, ibigori iyo byeze barabisarura, bakabihungura, bakabibetesha, hakavamo kawunga, igikoma. Ibigori ni ingirakamaro.

Umurima munini urimo ibigori, bigaragara ko bigiye kwera. Ibigori ni igihingwa k'ingirakamaro, ibigori babisyamo akawunga, ibigori bituma tubona igikoma kikadutungira ubuzima.

Uruyuzi rwera ibihaza. Ibihaza ni ingirakamaro mu mirire y'abantu, ibihaza iyo byize bigira n'inzuzi.

Ubutaka bwiza butuma imyaka yera neza, bakabufumbira, ubutaka ni ingirakamaro, ubutaka nibwo budutunga.

Umurima basaruyemo ibishyimbo. Ibishyimbo babisarura ukwinshi barandura, bagahurutura bakabivana ku biti byabyo, hari niyo bagiye bahaguza imishogi bagashira mu mifuka bakabihurira murugo.

Umurima wagira ngo wararaye, ikibara iyo bakiraje bashyiramo ubwatsi bakabugaburira inka cyangwa icyarire, kandi umurima waraye iyo bawuhinze, uba warishubije ukarumbuka imyaka.

Mu Rwanda habamo amoko menshi y'ibiti. Hari ibiti byinshi bivamo imbaho. Imizibaziba ivamo imbaho nziza zitukura, igira n'imbaho zikomeye cyane.

Umurima munini urimo ubwatsi, harimo n'ibikenyeri by'ibigorigori, ibigorigori babijyana mu ikawa bigasasira cyangwa mu rutoki.

Ubworozi ni ikintu kigezweho utateye ubwatsi ntabwo wabishobora. Iyi kameroni igaburira amatungo cyane ku nka kandi ubwatsi iyo ububungabunze bugakura iyo iburiye irakomera no mu nda yayo ikaba ikomeye.

Umugore wambaye ijipo y'umutuku hejuru ni umweru. Arahetse. Undi, undi bahuye ashorewe n'akana, hirya yabo hari imigano iranzemo ibidodoki, iburyo hariyo insina n'amakoma yazo.

Ibishingirizo ni ibiti bashingiriza ibishyimbo birebire. Iyo barangije gusarura, ni ukubihambira bakabyegeka ku gihuru.

Ubwoko bw'urubuto rwitwa marakuca. Marakuca n'imbuto iranda ku biti, yamara kwera igasa n'umuhondo. Ubwo bakayisarura, bakayijyana ku isoko ikabateza imbere.

Indabyo n'urutoki, ndabona n'insinga z'amashanyarazi, amashanyarazi atuma tumererwa neza mu rugo, iby'agatadowa byavuyeho ubu mbese tumerewe neza.

Umugabo wicaye ku igare, yambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umutuku. Hirya ye hari ishyamba, imbere ye hari umugabo wambaye bote z'ubururu, n'icyatsi.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane, gikunze kwera mu misozi miremire, amajeri agira vitamine nyinshi. Hari amajeri agira uruyange rw'ubururu, andi akagira, ayandi akagira uruyange rw'umweru.

Umurima w'ibirayi bisa n'ibigiye kwera, hirya y'ibyo birayi hariho ibiborigori byasaruweho ibigori.

Umurima hirya yawo hari urutoki rwiza cyane, iruhande rw'urutoki hariho isombe n'uruzitiro.

Igitari cy'intusi ziteye za rweru, hino hahagazeho ipoto hari n'umurima urimo ibigorigori.

Ikibara kirimo ibyatsi, ikibara cyera baragiragamo ibyatsi, ubu ni ukucifashisha bari kwahiramo, hirya y'icyo kibara, hariho ibiti n'inzu.

Karoti ziri mu murima. Igihingwa cya karoti ni mu bwoko bw'imboga z'ingirakamaro. Karoti umuhinzi wazo iyo azijyanye ku isoko abona amafaranga akiteza imbere.

Umurima wasaruwemo amasaka, hasigaramo ibikenyeri. Hirya y'ibyo bikenyeri, hariho inzu isakaje amabati y'umweru.

Ibigori iyo bimaze kwera barabisarura bakajya kubihunika mu rugo ibikenyeri bigasigara mu murima, nabwo bakabihambira bakajya kubisasira ikawa.

Avoka ni igiti cyiza cyiza, cyera imbuto ziribwa, avoka ivamo amavuta, igakorwamo amasabune n'abantu bakayirya ikababera intungamubiri.

Ubuhinzi bw'urutoki bukunze kuba hafi mu gihugu hose. Urutoki rurimo amoko menshi. Hari insina z'imineke, hari insina z'ibitoki ibibiribwa, hari n'insina zivamo umutobe n'urwagwa.

Umurima uhinzwemo ibirayi bitoshye. Hirya y'aho hariho inzu, hino yabyo hariho ubwatsi bwa kameroni.

Igiti cy'umwungo kiba kirekire. Kibazwamo amasekuru, inanga, ingoma. Iki giti kigira ibikoresho binyuranye n'imbaho bazibazamo.

Igiti cya avoka iyo gikuze kizana uruyange. ku ruyange hakazaho imbuto za avoka, umuhinzi akazimanura akazihubika. Zamara gushya akazijyana ku isoko akabona amafaranga, akamuteza imbere.

Ibigorigori basaruyeho ibigori, ibikenyeri barabishingiriza bakabivanga n'ibiti, cyangwa bakabijyana mu rutoki, bigasasira urutoki rukamererwa neza, ni ko kamaro k'ibigorigori.

ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, ibirayi bikunze kwera mu kinigi, n'ahandi birere mu Rwanda ariko mu kinigi niho byishimira cyane, abahinzi b'ibirayi bibateza imbere, ibirayi nta n'ubwo bitinda kwera, byerera amezi abiri cyangwa atatu.

Ubuhinzi bw'ingano. Ingano zivamo ifarini bakoramo imigati, ingano ni igihingwa cyera ahantu h'ubukonje, nta bwo gikunda ahantu hashyuha cyane. Ingano ni Ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Ibishyimbo bigira amoko menshi. Hari ibishyimbo byera imiteja. Imiteja igemurwa no mu mahanga, igateza abahinzi imbere.

Abagore bane bahagaze mu murima w'inanasi, umugore umwe yambaye agapfukamunwa, hirya y'uwo murima w'inasi hariyo insina z'ibitoki.

Umuhinzi wese agomba kwita ku myaka ye ,akayuhira akayibagarira bityo ikazera neza ,akazabona umusaruro ushimishije cyane.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, wagira ngo ari kwigisha abaturage bamuri ku ruhande, ibyerekeranye no guhinga kijyambere. Ashobora kuba ari umwarimu w'ubuhinzi.

Ibishyimbo bigira amoko atandukanye, hari ibishimbo bisarurwa bakabihura, hakaba n'ibishyimbo byera imiteja, imiteja iraryoha cyane.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu. Icyayi iyo bari kugisoroma baba bafite udutebo mu mugongo, basoroma bari gutereramo inyuma ya bo.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ni bwiza cyane. Ihene ni ubwoko bw'amatungo magufi, bwororoka vuba, bugateza umworozi imbere, akabona amafaranga y'abanyeshuri, amafaranga akora ibintu byinshi cyane.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Undi yambaye umupira ugiye kuba nk'umutuku n'ipantaro y'umukara, uwambaye ishati y'umweru afite ibase harimo ibintu bitandukanye.

Ubuhinzi bw'inyanya umugabo uhagaze mu murima w'inyanya afashe n'urunyanya mu ntoki yambaye na ga mu ntoki, yambaye ishati n'ikote ry'icyatsi.

Abahinzi bagomba kubagarira imyaka yabo, kugira ngo igire isuku kandi izere neza, nyuma yaho bakazabona umusaruro ushimishije.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu bitandukanye imyumbati bapima ku munzani, cyangwa bakagura umwe umwe. Imyumbati n'igihingwa cyiza cyane ngandurarugo.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane. Imyumbati iri ku gitebo, ifite agashishwa gatukura, bakunze kuyita mpuruguma. Imyumbati itunze abantu benshi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru irimo utubara. Yambaye n'ingofero, bigaragara ko afite ubwatsi ku kuboko ajyaniye amatungo. Iruhande rwe hari umwana uhagaze iruhande.

Mu bidutunga habamo ibiribwa byinshi habamo: ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibirinda idwara. Mu binda indwara habamo: avoka, imineke, n'izindi mboga zinyuranye. Imboga ni ikintu cyiza cyane kitwubakira umubiri.

Ipera ni urubuto, ni urubuto rukundwa n'abana benshi, bararuhinga kandi rugatanga n'amafaranga. Ipera ni imbuto nziza ziryoshye cyane.

Igihingwa k'imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, igihingwa k'imyumbati, giteza imbere abahinzi. Imyumbati ivamo ubugari, hari imyumbati iribwa, hari n'ivamo ifu.

Umugabo uvuye kuvuna ibigori, ibigori byiza cyane, ibigori bigaragara ko agiye kubyutsa. Ibigori n'igihingwa kiryoha cyane bigira icyanga kiryohereye.

Ipapayi ni imbuto nziza yigira vitaminini nyinshi. Ipapapayi zigira imbuto zirabura mu nda.

Inkoko zitera amagi menshi. Umworozi w'inkoko akayajyana ku isoko, akabonamo amafaranga, akamuteza imbere n'igihugu muri rusange.

Umufuka urimo ibirayi wahengamye byisutse hasi, iruhande hariho indobo ihateretse, ibase, n'intebe.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo imbuto zitandukanye. Habamo amacunga, amapera, amapapayi, imyembe, inanasi, aho abacuruzi baba bazizanye kuzigurisha.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'ishati, n'ipantaro by'ubururu, yambaye na bote, ari mu muririma w'insenda arikuzikorera neza kugirango zamuteze imbere.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'igitambaro kigiye gusa n'igitaka. Mu biganza bye ari kwerekana ibitumbwe by'ikawa, hirya ye hari ishyamba ry'ikawa.

Amapera ni ubwoko bw'imbuto ziribwa, amapera akunze kwera imbuto nyinshi cyane abana benshi bakunda amapera ,iyo uwahinze ipera arijyanye ku isoko, abona amafaranga akiteza imbere.

Ubuhinzi bw'urusenda ni bwiza cyane. Urusenda ni igihingwa giteza abahinzi imbere. Hari urusenda rusa n'umutuku urundi rusa n'umuhondo.

Indimu ni ubwoko bw'imbuto bugiye kumera nk'amacunga. Indimu zibamo umuti. Zivura inkorora, indimu ziraryoha. umuhinzi wazihinze iyo azijyanye ku isoko abona amafaranga akiteza imbere.

Amateke ni igihingwa kiryoha. Amateke ari mu moko menshi. Hari amateke yitwa bungubungu, ayandi bakayita inyoberabaswa, cyangwa amazayire, ayandi ba bakabita amaranda. Amateke ni ikiribwa bagereka ku bishyimbo bigahwana.

Amatunda ni ubwoko bw'imbuto amatunda ni ingirakamaro ku mubiri w'abantu. Amatunda ajyanwa ku isoko , bakabonamo amafaranga abateza imbere.

Ibirayi biri mu mifuka itondekanye; ibirayi ni igihingwa gikunze kwera cyane cyane mu kinigi. Ibirayi biraryoha bitunze abanyarwanda benshi, ibirayi ni igihingwa ngandurarugo kiryoha cyane cyane.

Abantu batatu barimo umukobwa n'abahungu babiri, bari mumyaka bari kubagara ibirayi umwe afite isuka abandi bari gukoresha n'intoki, ni abahinzi haruguru yabo harimo n'amakoro.

Abantu benshi bari mu murima, bari gutera imbuto, kugirango baziteze imbere babivanye mu buhinzi bwabo.

Abantu benshi bakunda guhinga imbuto z'imyembe. Imyembe ni imbuto ziryoha cyane kandi zikundwa n'abantu benshi.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo, ibijumba bifite amoko banyuranye bifite amazina menshi hari za Mapfuruka, hari Turatugure na za Nyirawadada ,ibijumba ni ikiribwa cyiza cyane.

Ibihaza ni ibihingwa bikunzwe na benshi. Byera ku ruyuzi. Ibihaza bigira amoko menshi. Hari iby'imyeru, n'iby'imikara, n'ibihaza bigira n'inzuzi.

Amateke ni igihingwa kiryoha cyane. Akunze kwifashishwa ku ngereko, bayajyana ku isoko bakabonamo n'amafaranga, bikabateza imbere. Amateke ni ingirakamaro cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya buteza abahinzi imbere. Iyo inyanya zimaze kwera, umuhinzi arazisoroma akazijyana ku isoko, akabona amafaranga. Amafaranga akamuteza imbere.

Umukobwa wambaye ubururu n'umukara afashe iyi nka y'imfirizone wagira ngo agiye kuyitera urushinge, agiye kuyikinyingira veterineri ni ingirakamaro ku matungo.

Voka ni igiti cyeraho imbuto imbuto ziryoha cyane, avoka ivamo n'amavuta, bakoramo n'amasabune, ivamo ibintu byinshi cyane, avoka yubaka umubiri w'abantu.

Umugore w'umucuruzi ari gucuruza ibinyampeke, imbere ye hariho amabase ,ibitambaro, hirya ye hariho ubundi bucuruzi bumeze nko mu mangazini.

Avoka ni igiti kigira imbuto ziryoha voka hari voka ziba ndende hakaba n'avoka zimbangurire, voka zimbangurire nizo zera vuba.

Avoka ni igiti kigira imbuto ziryoha. Avoka ivamo amavuta, avoka ifite vitamini, avoka ni igiti gikunzwe na benshi.

Icyayi kera mu Rwanda n'igihingwa ngenga bukungu, uwahinze icyayi yiteza imbere, icyayi abantu benshi baragikunda kuko gitera ubushyuhe mu mubiri.

Umugore wambaye ibyirabura, afite isuka ameze nk'uri guhingira imbuto, kugira ngo zizamuteze imbere.

Ipera ni ubwoko bw'imbuto bwera cyane. Ipera rishobora kwera nk'imifuka itanu, ipera abana benshi bararikunda. Amapera iyo bayajyanye ku isoko, babona amafaranga, bakiteza imbere.

Imyaka ivanze, ibigori n'ibishimbo, iyo byeze bituma umuhinzi abona umusaruro. Ibigori ni byo byera nyuma, ibishyimbo bikera mbere.

Umugabo ufite imyumbati yaranduye iri ku giti cya yo. Imyumbati ni ingirakamaro, imyumbati hari imyumbati iribwa, na gitamisi ivamo ifu bakuramo ubugari.

Kera mu Rwanda isuri yari yarayogoje ubutaka. Aho baciriye amaterasi, ubu dusigaye turahinga tukeza. Amaterasi ni meza cyane. Ku materasi haba hateyeho ubwatsi tugaburira amatungo n'amatungo akamererwa neza, amaterasi ni meza cyane.

Abagabo babiri bari gusunika inanasi ku magare. Inanasi ni imbuto ziribwa. Zigira umutobe mwinshi uryoha cyane. Inanasi ni ingirakamaro ku mubiri w'abantu.

Umugore ari gusoroma icyayi yambaye igitambaro cy'umutuku, umupira wubururu, n'igitenge cy'ubururu, mu mugongo harimo igisobane asoromemo icyi cyayi. Ni cyiza cyane, ni gengabukungu mu gihugu cyacu.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori wagira ngo ni koperative. Ibi bigori ni byiza cyane, bizabateza imbere.

Abagabo babiri bari mu gikorwa cyo gukura ibirayi, nibamara kubikura barabishyira mu mifuka babijyane ku isoko, babone amafaranga abateze imbere.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu byinshi cyane. Harimo inyanya, wotameloni, inanasi, imboga zinyuranye, habamo byinshi.

Ibireti ni igihingwa ngengabukungu. Ibireti bikunze guhingwa mu Kinigi, ahantu hakonja. Ibireti ntabwo bihingwa mu Rwanda hose.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo ni igihingwa gitunze abantu benshi, bagihinga hafi mu gihugu hose, imyumbati iraryoha cyane, iyo umuntu afite imyumbati mu rugo nta nzara imufata.

Umurima w'ibigori bitari byera, iyo bimaze kwera umuhinzi arabisarura, akabisharika, kugira ngo azabihungurire igihe abishakiye. Ibigori ni igihingwa cyiza cyane.

Abagore bambaye imyenda inyuranye, bari kurobanura ibigori, bari kuvanamo imyanda, kugira ngo bazabibeteshe bisa neza, ifu izabe ifite isuku.

Umugore wambaye isengeri witeze igitambaro cy'umukara. Ari gutonora ikigori ari kureba ko byeze. Iyo ibigori byeze barabihagura bakabijyana mu isoko bakabona amafaranga.

Abantu benshi abagabo n'abagore bari mu murima. Harimo umugabo uri kubererekera uko ubutaka bugomba guhingwa ngo babone umusaruro, umujyanama w'ubuhinzi niko ndi kubibona.

Abagabo batatu bahagaze mu busitani. Umwe yambaye imyenda y'icyatsi, uwo hagati yambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, undi yambaye agapira karimo uturongo, n'ipantaro y'umweru, aba bagabo bafatanye urunana barishimye.

Inyanya ni imbuto abantu benshi bakunda cyane. Ziraryoha, ni ubwoko bw'imbuto bwiza. Inyanya bazisarura mu ibase cyangwa mu bitebo, kubona inyanya ziri ku mifungo, abafite amafaranga make bagurira ku mifungo.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu binyuranye. Habamo imbuto, imyenda, ibiki. Habamo inyanya, amaronji, za voka, byinshi cyane.

Abantu batatu bafite ibitebo, bari gusoroma icyayi.

Intoryi ni ubwoko bw'imbuto zihingwa n'abantu benshi. Intoyi zikura vuba kandi zigatanga umusaruro, iyo zafumbiwe neza, zigaterwa, umuti intoyi ziteza abahinzi imbere, bakabona amafaranga.

Indimu ni imbuto nziza cyane. Indimu bazifata nk'umuti, indimu ni ingirakamaro zivura n'inkorora. Indimu ni ubwoko bw'imbuto buhingwa cyane mu Rwanda.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibintu binyuranye. Habamo ibirayi, umuceri, amateke, imyumbati n'ibijumba. abacuruzi ni bo babizanamo kubigurisha.

Abahinzi bahinga imbuto z'ubwoko bunyuranye. Puwavuro ni imbuto zikunze guhingwa n'abahinzi borozi. Puwavuro igira amafaranga menshi kuko iteza abahinzi imbere.

Ibirayi ni igihingwa kiza cyane. Ibirayi abantu benshi barabikunda, abahinzi ba byo iyo bejeje babona amafaranga menshi. Ibirayi byambuka no hanze y'umupaka, bagateza abahinzi ba byo imbere.

Imifuka iteretse irimo imbuto, intara, imbuto zitandukanye, imyembe, insenda, n'izindi. Bigaragara ko zitanditse, zitegereje abaguzi.

Umugabo wambaye imyenda isa n'icyatsi, iruhande rwe hegetse igitoki kirekire cy'ubwoko bwa fiya. Fiya ni insina itanga umusaruro cyane, isumbya agaciro ibindi bitoki.

Abagore bambaye ibitenge bameze nk'abari gutera ingemwe z'ibiti. Ibiti ni ingirakamaro aba bagore baziteza imbere.

Ibihaza biraryoha cyane. babirya ari intorobwa, bakabirya bikuze, bakabivuzamo inzuzi bakazikaranga, ibihaza ni mu bwoko bw'imboga. Ibihaza ni byiza cyane.

Abahinzi bahinga imbuto zinyuranye. Ubuhinzi bw'intoryi na bwo ni bwiza cyane. Iyo umuhinzi yejeje intoryi ,azijyana ku isoko akabona amafaranga, amafaranga akamuteza imbere.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo. Ibijumba umuhinzi iyo abijyanye ku isoko, abona amafaranga akamuteza imbere, ibijumba bitunze benshi mu gihugu.

Umuhinzi iyo ahinze ibigori bikamera akabibagarira, akabifumbira , birazamuka bikazamuha umusaruro, agasarura neza, akiteza imbere, agasagurira n'amasoko.

Abagore bafashe amasuka bari guhinga. Ubuhinzi ni bwo butuma abantu benshi umusaruro uvuyemo ubateza imbere.

Ubuhinzi bw'imiteja ni bwiza cyane, iyo umuhinzi yahinze imiteja ayigemura ku masoko no mu mahanga, bayijyanayo bakabona amafaranga y'amadovize, ubuhinzi bw'imiteja ni bwiza cyane.

Imbuto ziribwa, amatunda araryoha. Amatunda akunze kubakirwa, akaranda ku ruzitiro cyangwa akazamuka mu giti cyo hafi y'urugo.

Inka y'umukara nini kandi nziza, inyuma hari ibihogo, zihagaze mu rwuri rutoshye, izi nka ziri murwuri zakamwa amata menshi.

Abantu babiri bari gutera, bari gutera ibiti, ibiti ni ingirakamaro, ibiti biracanwa, ibiti babisaturaramo imbaho, imbaho bakazikoramo ibikoresho binyuranye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane. Iyo umuhinzi ahinze ibijumba akabona umusaruro, abona inyungu kandi akarya, agasagurira n'amasoko.

Abantu benshi bikoreye ibitebo bavuye gusoroma icyayi, icyayi ni ingirakamaro, icyayi ni igihingwa ngengabukungu kizanira igihugu amadovize.

Ubuhinzi ni ingirakamaro. Iyo umuhinzi yahinze ibirayi, ibirayi birera akaba yarabifumbiye neza. Iyo abijyanye ku isoko abona umusaruro ushimishije akabona n' amafaranga.

Ipera ni igiti cyera imbuto nyinshi. Abana bakunda guzirya. Umuhinzi agasarura akayajyana ku isoko, akabona amafaranga, akamuteza imbere.

Imifuka myinshi itondekanyije, irimo ibicuruzwa bitandukanye: ibishyimbo, amashaza, amasaka n'ibindi bigaragara ko ari muri butike aho abaguzi babisanga.

Indimu ni ubwoko bw'imbuto buryoha, indimu zivura indwara nyinshi, indimu ni ingirakamaro cyane, mu mbuto zose. Indimu ni mwene wabo w'amacunga.

Imyumbati ni igihingwa kera hafi mu Rwanda hose, imyumbati n'igihingwa cy'ikinyabifufu, imyumbati hari iyo binika mu mazi yitwa gitamisi, iy'imiribwa na yo ifite amako anyuranye, imyumbati n'igihingwa ngandurarugo n'igihingwa kiza cyane.

Imyungu yeraho ibintu bitandukanye. Hari imyungu yeraho inkiza, hakaba n'imyungu yeraho ibicuma. Ibicuma iyo bimaze kwera barabikata, byamara guhuguta bakavanamo imyungu, bakazajya baranyweramo ikigage.

Amashu ni ubwoko bw'imboga za kizungu . Amashu agira vitaminini nyinshi, ari mu bwoko bw'ibirinda indwara mu mubiri wacu.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo, babihinga hafi mu gihugu hose, ibijumba by'ubwoko bwa tura tugure.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu. Icyayi giteza imbere abahinzi bacyo, kuko kigira amafaranga menshi.

Abagore bunamye bari gutoragura ibirayi bari kubitoragurira mu mifuka, bishimye kubera ko babonye umusaruro mwiza.

Abafashamyumvire iyo batugendereye baraduhugura ibyerekeye ubuhinzi bwacu, baratwerekera kugira ngo tuzabone umusaruro mwiza. Abafashamyumvire ni ingirakamaro.

Iyo imyaka yeze, barayihura, bakagosora, bakabona ubuyihunika. Iyo babishatse bajya kuyigurisha ,basaguriye amasoko.

Umugore wambaye ingofero n'umupira w'umukara, hasi igitenge kirimo amabara, afite hirya no hino imboga z'amashu.

Kugira ngo batere imbuto ni uguhinga ubutaka neza, bakabufumbira, bakabona ubuteramo ya mbuto kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije.

Ibigori biraryoha cyane. Abantu bari gusarura ibigori, abandi bari kubyerekana, ibigori bitugirira akamaro cyane. Bivamo igikoma kiryoshye cyane.

Umugabo ukomeye ufite inda nziza yambaye ikote ry'umutuku ,yambaye n'agapfukamunwa n'ipantaro y'igitaka ari mu murima w'ibirayi n'umuhinzi mworozi.

Ibigori iyo babihinze birakura, byamara guheka bakabisarura, bakabihungura bamara kubihungura, bakabijyana ku isoko, ibindi bakabibetesha. Ibigori ni igirakamaro bitunze abantu benshi.

Umugore ufite isuka, ari guhinga imitabo. Yambaye umupira w'ubururu, n'ingutiya y'umuhondo.

Iyo ibirayi byeze barabikura bakabijyana ku isoko bakabonamo amafaranga ,bakiteza imbere n'igihugu muri rusange.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, igitambaro cy'umweru, n'igitenge kirimo amabara, ari kubagarira imyaka ye kugirango izakure neza.

Imifuka myinshi ipakiyemo ibirayi ibambiye neza ibirayi byiza cyane, ibirayi n'ibihingwa byera vuba bigateza imbere ababihinga.

Avoka ni imbuto ziryoha cyane. Avoka zivamo amavuta, bazikoramo amasabune, avoka ni ingirakamaro uwayihinze agira inyungu nyinshi cyane. Avoka yera mu Rwanda hose.

Umugabo wambaye ga n'umupira ufite uturonko dutambitse n'ipataro y'ikoboyi, ari mu murima w'intoryi ari kuzisoroma bigaragarako izi ntoryi zafumbiwe, yashyizemo n'imvaruganda.

Amashyamba ni meza cyane, amashyamba atuma tugira umwuka mwiza duhumeka, amashyamba avamo imbaho, imbaho ni ingirakamaro kuko zivamo inzugi dukingisha.

Amashu ni imboga za kizungu, amashu akunze kwera hose mu Rwanda. Amashu uwayahinze yera vuba ntabwo arenza amezi atatu, amashu agomba guteza imbere uwayahinze.

Ubuhinzi bw'imiteja butuma abantu biteza imbere, kandi imiteja iraryoha cyane.

Ubuhinzi bw'inyanya bumaze kwamamara mu Rwanda, umuhinzi wahinze inyanya, azigemura ku isoko, akabona amafaranga, bikamuteza imbere cyane rwose.

Ipera ni igiti cyera imbuto ziryoha, amapera akunda gusa n'umuhondo. Ipera abana bararikunda kandi n'umuhinzi wayo iyo ayajyanye ku isoko abona amafaranga akamuteza imbere.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo urujya nuruza rw'abantu benshi, baje kugura ibintu binyuranye intonore , amashu n'ibindi byinshi mu isoko.

Abantu benshi bari mu isoko. Iruhande rwabo hariho intama za kijyambere z'ubwoya. Izi ntama ni zo zigezweho kuko zikura vuba zikaba zakungura umworozi.

Umugabo n'umugore, umugabo yambaye bote, ipantaro ya kaki, n'ishati y'ubururu. Umugore yambaye igitenge n'umupira w'umutuku n'igitambaro gitukura.

Insina y'incakara, ifite igitoki giteye inkingi, iruhande rwa yo hariho uruzitiro. Iri mu gitaka gisa n'ikirimo ifumbire ryinshi.

Abantu bari mu gikorwa cyo kubagarira imboga zitwa amashu. Amashu ni imboga nziza cyane, amashu yera vuba, agateza imbere umuhinzi.

Abagore bari mu murima w'ibirayi, bari kubikura nibarangiza babijyane ku isoko, babone amafaranga, biteza imbere, ibirayi ni igihingwa cyera cyane, cyerera amezi makeya.

Mu mashyamba habamo inyungu nyinshi. Ba mukerarugendo baza kuyasura bakatuzanira amadovize, amashyamba ni meza, aduha n'umwuka mwiza.

Umuhinzi wese iyo ari mu murima we, ari gusarura yumva bimushimishije cyane. Umuhinzi agomba gufata neza umusaruro asaruye kuko umuteza imbere.

Umukobwa wambaye agapira k'umuhondo n'ijipo. Imbere ye hari ibase iririmo ibishyimbo ari kubiyora. Inyuma ye hariyo ikigega.

Amasaka ari ku mishishi yayo ,Ameze nk'ateze, bari barayahanguza, bakayanika bakazasyamo igikoma.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru n'umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, yambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu n'umuhondo, ari gugosora ibishyimbo. Kukosora ibishyimbo ni ukuvanamo imyanda.

Ibigori iyo byeze barabisarura . Ibigori bigira amoboko menshi. Hari ibigori byitwa nyakagori. Ibisa n'amamesa, ibisa n'umutuku, ibindi bigasa n'umweru.

Ibigori by'amahundo byumye, barabihungura, bakajya kubibeteshamo kawunga, bagakoramo umutsima. Kandi biraryoha cyane.

Igihingwa cya soya ni igihingwa cyiza cyane. Soya ni igihingwa kivamo amata, soya barazikaranga, soya iyo bagiye kuyigurisha ku isoko babona amafaranga menshi atubutse.

Mu bishyimbo habamo amoko menshi hari ibishyimbo bigufi n'ibishyimbo bishingirirwa. Ibishyimbo bishingirirwa iyo byabonye ibiti birebire birakura bikaranda, bikagera hejuru bikibirindura ku buryo umuyaga uzajya urahuhamo uruyange rugafata rwose.

Ibishyimbo bigira amoko menshi. Hari ibishyimbo bisa n'umutuku, ibindi bisa n'uruvuzo, ibindi bisa n'umweru, hakaba n'ibishyimbo bisa n'umuhondo. Ibishyimbo bigira intungamubiri nyinshi, ni mu bwoko bw'inyama.

Igihwagari ni igihingwa cyera hose mu Rwanda. Igihwagari kivamo amavuta bakinyujije mu mashini zikagikamura. Kigira amavuta akaryoha cyane gusumbya ay'ubunyobwa.

Ibigori iyo bimaze gusarurwa, barabihungura. Ibindi bisigaye bakabyita amahundo. Babiteka mu bishyimbo byamara gushya bakabirya, bakabirisha ibishyimbo.

Igihingwa cy'umuceri ni cyiza cyane. Hafi mu Rwanda hose mu bishanga umuceri urahera. Umuceri ukunzwe n'abantu benshi, umuceri ni igihingwa cyakomotse mu mahanga.

Igishyimbo cya mushingiriro iyo kimaze guharura igiti, kizana uruyange, kikazana imiteja. Haba ibishimbo by'imiteja, n'ibishimbo birirwamo intonore, byakwera bakabisarura, bakabihura, bakabihunika.

Ibishyimbo ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu. Ibishyimbo iyo bamaze kubisarura barabihunika, ubundi bakabijyana no ku isoko.

Ubunyobwa ni igihingwa gikunze kwera ahantu haba ubushyuhe. Ubunyobwa buvamo amavuta, ubunyobwa barabukaranga bakaburya, ubunyobwa barabusekura bakabuvanga mu biryo. Ubunyobwa ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Inzu, inzu nini, isakaje amabati, hariho n'ibiti, iyo nzu wagira ngo ni iy'ibihunikwa. Wagira ngo bayihunikagamo ibigori. Hariho n'uruzitiro imbere ya yo.

Umugore witeze igitambaro yambaye n'umudari, afite intara mu ntoki ari kugosora ibishyimbo kandi arishimye.

Ibishyimbo ni ibinyamisogwe. Ibishyimbo bigira vitamini igiye kumera nk'iy'inyama. Ibishimbo by'imituku, ibishyimbo ni indobanure.

Ubwoko bw'ibigori biba bigufi, bisa n'umuhondo, bakunze kubikaranga bigaturika, abantu benshi barabikunda, iyo byamaze guturika biraryoha cyane.

Inzuzi ni ikiribwa cyiza cyane ,no mu Rwanda cyavuraga inzoka zo mu nda za sikarisi, ziva mu gihaza ,igihaza cyavuye ku ruyuzi, inzu n'ingirakamaro mu Rwanda.

Ibishyimbo bigira amoko menshi, hari ibishyimbo by'imiteja ba basoroma, bakayijyana ku isoko, imiteja yoherezwa no mu mahanga, ikazana amadovize.

Ubwoko bw'ibishyimbo. Ibishyimbo bigira amoko menshi, hari ibishimbo bisa n'umweru, haba ibisa n'umuhondo, hakaba ibisa n'igitaka. Ibishyimbo ni ingirakamaro bigira vitamini nk'iz'inyama.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane. Amasaka iyo amaze kwera barayagesa, bakayahura, bamara kuyahura bakayabetamo igikoma. Igikoma cy'amasaka kigira intungamubiri na vitaminini nyinshi. Amasaka ni ingirakamaro mu Rwanda.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza. Ubunyobwa bwerera mu butaka. Iyo bumaze kwera barabutonora, ubunyobwa bubamo amavuta . Barabukaranga, bakabusekura, bakabushyira mu biryo bikaryoha.

Imifuka myinshi ipakiyemo amafarini, iyo mifuka iteretswe ku mbaho, kugira ngo hatazamo ubufurikake.

Inzu ya kinyarwanda iba isakaje ibyatsi cyangwa ibikenyeri , cyangwa umukenke. Izitijwe n'ibikenyeri imbere yayo hariho umugore, iruhande rwe hateretseho imifuka.

Ubunyobwa ni igihingwa gikunze kwera ahantu hashyuha, ubunyobwa ni ingirakamaro buvamo amavuta meza, ubunyobwa barabukaranga bakaburya, ubunyobwa barabusekura bakabuvanga mu bindi biryo, ubunyobwa ni ingirakamaro.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, afite imvi, n'ishati y'umutuku irimo utubara tw'umweru. Imbere ye ari kuvugira muri mikoro. Hirya ye hari ibigori bisharitse, ashobora kuba ari kwigisha ibyerekeye ubuhinzi bw'ibigori.

Inzuzi ziraryoha. Inzuzi ziva mu bihaza. Barazivuza, bakazanika zamara kuma bakazikaranga, bakazisekura bakazivanga mu biryo, ibyo bikaryoha. Na zo zigira amavuta, ni kimwe n'ubunyobwa.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane, kiryoha. Amajeri iyo yeze barayasoroma bagashyira mu base, ubundi bakagenda bagatonora, amajeri agira intungamubiri nyinshi, asumbya n'ibishyimbo ahubwo kuryoha.

Ibishyimbo bishingirwa, ibishyimbo bishingirwa bigira umusaruro mwinshi kurusha ibishyimbo bigufi. Ibishyimbo byashingirirwa biraryoha cyane.

Amasaka ni igihingwa gikunze kwera mu Rwanda hose. Amasaka ni meza havamo igikoma gifite intungamubiri, amasaka abetera urwagwa, amasaka ni ingirakamaro cyane.

Abagore benshi bameze nk'abari mu isoko. Imbere yabo hateretse ibitebo biriho ibishyimbo bari kudandaza.

Ibishyimbo bigira amoko menshi. Hari ibishyimbo bisa n'umweru, ibindi bigasa n'umutuku, ibindi bikagira amabara atandukanye. Ibishyimbo bidutungira ubuzima, ni mu bwoko bw'inyama.

Umugabo n'umugore bishimye, bishimiye umusaruro, umugabo yambaye ishati isa n'umutuku irimo ututongo, umugore yiteze igitambaro gisa n'icyatsi n'igitenge, bishimiye ko bakoze umurimo ukaba ubahaye inyungu.

Ingano ni igihingwa gikunze kwera mu misozi miremire, ingano zivamo ifarini bakoramo imigati, za gato, imigati inyuranye, ingano ni igihingwa kiryoha cyane.

Umuceri ni igihingwa gikunze guhingwa mu gishanga, umuceri uhingwa mu bihugu byinshi, umuceri mu ukaba mu binyampeke, umuceri ukundwa na benshi.

Ububiko bupakiyemo imifuka itondekanye, wagira ngo harimo imbuto muri iyo mifuka. Iyo mifuka iteretswe ku mbaho, kugira ngo hatazazamo agahumbu.

Amasaka ni igihingwa cyera hafi mu Rwanda hose. Amasaka iyo yeze barayasarura ,bakayahura, yamara kuma , bakayinika bakayengamo umusuru cyangwa bakabeteza inzoga.

Umugore afashe intara, ari kugosora imyaka. Arizihiwe, ari iwe mu rugo, ari kugosora neza, kugira ngo imyaka ye ayivanemo udushogoshogo, ubundi asigarane imbuto nziza zinoze.

Umufuka urimo ibinyampeke, ibinyampeke bidutungira ubuzima, ibinyampeke ni byiza cyane ku mubiri w'abantu.

Abahinzi bahinga imyaka inyuranye bahinga ubunyobwa, bagahinga amasaka, bagahinga ibishimbo, bakabisarura bakabishyira mu bikoresho byabugenewe. Ubuhinzi ni bwiza cyane.

Ikigori ni ingirakamaro mu biribwa byo mu Rwanda. Ibigori iyo bamaze kubisarura，barabisharika kugira ngo byumire hejuru.

Umugore wicaye ku kirago arikurobanura ibishyimbo akavanamo ibipfu akabishira mu ibase iriruhande rwe, kurobanura imbuto ni byiza cyanem

Ibigori bigira amoko menshi haba ibigori by'umweru byatamira, hakaba n'ibigori by'imihondo byitwa mayizori, mayizori igira ifu y'umuhondo, ibigori n'ingirakamaro.

Umugore wambaye igitambaro kivanzemo ibara ry'ubururu, yambaye umwenda hejuru w'ubururu, harimo utubara, ahetse uruhinja. Afite intara ari kugosora ibishyimbo kugira ngo abone kubihunika.

Umurima w'ibigori iruhande rwawo harimo akagezi hirya hirya hirya yaho hariho uwundi murima w'ibigori. Ibigori ni ingirakamaro. Ibigori biribwamo umutsima, bikaribwamo impungure, ibigori bikundwa na benshi.

Soya n'igihingwa cyiza cyane ,Soya n'ingirakamaro ku mubiri w'abantu. Soya ivamo amata, soya barayikaranga bakayisekura bakayivanga mu biryo , soya n'igihingwa cyiza cyane kigira intungamubiri.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, ubunyobwa bukunda ubutaka bugufi. Ubunyobwa umuhinzi wabwo iyo abujyanye ku isoko abona amafaranga menshi, ni igihingwa gihe gihenze cyane.

Igihwagari ni imbuto nziza cyane. Igihwagari ni ingirakamaro, bagikamuramo amavuta aribwa yo gukaranga ibiryo, igihwagari ni cyiza cyane. Amavuta yacyo agira intungamubiri nyinshi.

Abahinzi bahinga imyaka inyuranye, iyo babibye amasaka barayabagara, yamara kwera bakayagesa, bakajya kuyahura ubundi bakayajyana ku isoko ,cyangwa bakayinika bakabonamo umusururu.

Ingano ni igihingwa gikunze kwera mu misozi miremire. Ingano zivamo ifarini, ifarini bayikoramo imbada na za gato, abantu benshi bakunda kurya imigati, ikomoka ku ngano.

Ibigori iyo byeze bimwe barabihungura bakabyita impungure, hagasigara amahundo bakazavanamo imbuto yo kubiba nyuma yaho.

Iyo ibishyimbo byeze barabisarura, bakabijyana mu rugo, bakabihura, bakabihunika, cyangwa bagasagurira n'amasoko.

Ibishyimbo bigira amoko atandukanye. Hari ibishyimbo bya nyiraruvuzo, bya nyiragisenyi, bya kiryumukwe, bya nyiragateja, ibishyimbo bigira n'intungamubiri nyinshi mu buzima.

Inyana ihagaze ifite ibara ry'ikibamba. Inyana nziza ikura vuba.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na bote, iruhande rwe hariho inkoko nyinshi, umunzani uteretsweho ibase iriho inkoko, iyo nkoko bari gushaka kumenya ibiro byayo.

Ingurube ni ubwoko bwiza cyane, umworozi woroye ingurube zimuteza imbere, ingurube zororoka vuba, iyo zikuze barazirya, abenshi bazita indyoheshabirayi.

Abagabo babiri umwe wambaye umweru ni veterineri. Ingurube ishobora kuba ifite ikibazo yarwaye, akaba ashaka kuyivura. Undi ni nyirayo.

Inkoko zitera amagi menshi. Iyo umworozi w'inkoko amaze kugwiza amagi, ayagemura ku isoko akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu bahagaze bameze nk'abaveterineri hagati yabo harimo inka wagira ngo bari kuyivura, hirya yabo hariho indege bashobora kuba ariyo yabazanye.

Ibyana by'ingurube birindwi biri gutambagira, hirya yabyo hari urugo, hirya iburyo hariyo agashyamba no haruguru yazo hariho ibiti by'imigano.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, yambaye ingofero, yambaye ipataro y'ikoboyi na bote, afite ikibando ari guhura ibishyimbo.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umukara n'igitenge. Afite agatereyi karimo amagi. Hirya ye hari umugabo na we ufite agatereyi karimo amagi, wambaye na bodaboda.

Ikiraro gisakajwe ihema, imbere yacyo hariho inka z'amoko menshi. Umweru, ibihogo, ikibamba. Izi nka zose zisa neza.

Urukwavu ni rwiza, inkwavu zoroka vuba zikabyara byihuse, iyo zigiriwe isuku inkwavu ziroroka ukajyana ku isoko amafaranga akaboneka umworozi akiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube bugwiriye mu Rwanda. Ingurube ni itungo ryororoka cyane, ribyara ibyana nk'icumi nangwa cumi na bibiri. Ingurube ni itungo riryoha cyane. Abenshi bakunze kuryita indyoheshabirayi.

Ubworozi bw'inkoko butuma aborozi biteza imbere, ndetse n'igihugu na cyo kikunguka. inkoko zitera amagi menshi kandi na zo ubwa zo bakazirya.

Abaganga b'amatungo bari kuvura itungo. badufashaga baradufasha iyo itungo ryarwaye bakarivura, bituma twiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi isize amarangi y'umuhondo, y'umuhondo. Imeze nk'iyi cururizwamo imiti y'amatungo.

Ihene ni amatungo yororoka cyane mu Rwanda. Ihene zigira amabara menshi anyuranye， hari ihene z'imikara，izindi zikaba imishiru， izindi zikaba urutobo. Ihene ziraryoha cyane， zigira intungamubiri nyinshi.

Inka y'ikibamba, umuveterineri wambaye ikoti ry'umweru, na ga mu ntoki, afite urushinge agiye gukingira iyi nka.

Umugabo w'umworozi ari kugaburira ingurube ye nziza. Iri kurira mu gikoresho cyabugenewe. Ubworozi bw'ingurube buteza abantu imbere akamererwa neza

Inka ifite amabara y'umweru n'ay'umukara bayita ikibamba. Irabyibushye, iri mu kiraro, yambaye n' iherena ku gutwi kwayo. Ikibamba ni ubwoko bwiza.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane, inkoko zororoka vuba zigatera amagi akagurishwa. Umworozi w'inkoko iyo ajyanye amagi ku isoko abona amafaranga atubutse, akazifata neza ubundi zikamuteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane. Umworozi iyo yiyemeje korora imishwi, akarariza amagi imashini zikayaturaga, apakira imishwi mu gatete akayijyana ku isoko, akabona amafaranga, akamuteza imbere.

Ubwoko bw'inkoko bwitwa Dendo, Dendo ziba ari nini cyane, zisumba zisumba inkoko, kuko zo ni nini zipima nk'ibiro cumi na bitanu Dendo ni ubworozi bwiza cyane.

Abaturage benshi bari mu nama, kugira ngo bungurane ibitekerezo, bakemure ibibazo byaba bihari, inama ni ingirakamaro.

Inka ebyiri imwe n'imbyeyi indi ni ikimasa. Imbyeyi ifite amabara y'umukara n'umweru. Bayita ikibamba. Inka y'imfirizone igira umukamo mwiza.

Umukobwa wambaye ubururu n'umutuku. Ashoreye inka z'ikibamba. Bigaragara ko izi nka ziri gukamwa. Izi nka ni nziza cyane.

Ingurube y'umweru ifite ibyana byayo, ingurube n'itungo ryororoka cyane. Ingurube igira amabere menshi kubera ko ibyara n'ibyana byinshi, ingurube n'itungo abantu benshi bakunze korora.

Ihene ifite amezi, kubyara byayinaniye abaveterineri bayifashije barayibaga. Abaveterineri ni beza cyane baradufasha iyo amatungo yarwaye.

Ihene ni itungo rigufi ryororoka cyane. Ribyara abana . Iyo ribyaye ,abana b'ihene babiri .Ihene barazikama , amata yayo bakayanywa.

Inyana ibyarwa n'inka. Iyo imaze gukura barayibanguriza, ikabyara, igatanga umusaruro w'amata, igatanga n'ifumbire. Inka ni nziza cyane mu gihugu cyacu.

Umuti n'urushinge. Umuti ni ingirakamaro ku matungo yacu, iyo amatungo yarwaye, bakoresha urushinge bagatera vitamini, nangwa se izindi ndwara zinyuranye, zafashe amatungo.

Umuveterineri wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ari mu gikorwa cyo kuvura inka. Abaveterineri badufasha muri byinshi, badufatiye runini mu byerekeye amatungo yacu, veterineri ni mwiza cyane.

Ubworozi bw'inkoko buragwiriye mu Rwanda. Inkoko zigira amoko menshi. Hari inkoko z'inyarwanda ,hari inkoko za saso, hari n'inkoko z'inyama.

Ibworozi bw'inkoko ni bwiza cyane butuma umuntu yiteza imbere. Inkoko zigira amoko menshi hari za saso, za deriko, zimwe zigasa n'umutuku, izindi zigasa n'umweru, izindi umukara na wo w'ubugondo.

Inkoko n'ubworozi bworoka cyane ,inkoko kandi zikagira amoko menshi, hari deriko, saso, zitera amagi menshi cyane, inkoko ni ubworozi buteza abantu imbere.

Inkwavu ni amatungo yororoka vuba; inkwavu ni matungo arya ibyatsi, akarya ibigori, inkwavu ni itungo ziteza abantu imbere vuba vuba.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro. Inkoko zororoka vuba, inkoko zitera amagi, amagi akagira intungamubiri kandi inkoko zikura vuba. Iyo woroye inkoko zaguteza imbere muri uru Rwanda rwacu.

Inka ziryamye, izindi zihagaze, inka, izi nka bazita inyambo, zifite amahembe maremare cyane, izi nka zikunze kuba mu Burasirazuba.

Ingurube n'itungo ryororoka vuba, rikabyara ibyana byinshi, ingurube iteza abantu imbere itanga ifumbire, ingurube n'itungo riryoha cyane.

Ubworozi bw'ihene buteza aborozi imbere, ihene zigira amabara atandukanye imikara, umusheru n'imyeru.

Ingurube ni ubworozi bwiza cyane, ingurube zororoka vuba, ingurube ni itungo ryororoka cyane, kandi rikaba indyoheshabirayi, ingurube z'amapfizi zikunze gukura vuba gusumbya amashashi.

Umugore wambaye umweru, n'umugabo we yambaye umweru. Bigaragara ko hari ikiraro cyororerwamo amatungo magufi. Kugira ngo biteze imbere, bahisemo korora amatungo magufi.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gukwira mu Rwanda hose. iIngurube igira inyama ziryoheye abantu benshi . Ingurube itanga n'umusaruro vuba.

Umwana mutoya, afashe inkoko ibisembe, iruhande rw'iyo nkoko hari izindi zisa n'imikara. Uyu mwana aracyari mutoya.

Mu isoko habamo ibicuruzwa byinshi nk'amatungo. Abacuruzi bakaza kurangura amatungo, umugabo afite ihene y'umweru n'umukara, hirya yaho hari umusheru, akurikiwe n'umugore w'umusirimu.

Abantu bari mu isoko harimo intama ziri gucuruzwa. Intama ni itungo rigufi ryororoka vuba.

Ingurube nini y'imfizi, hirya ya yo hariho abantu bambaye icyatsi, ubururu, harimo n'umugabo ufite ikoti ry'igitaka mu nda harimo agapira k'umutuku.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro, hari amoko menshi y'inkoko inkoko; inkoko za Deriko, za Saso, inkoko zitera amagi menshi agatunga abantu bayariye.

Inkende zihagaze ku mabuye bigaragara ko ari muri Pariki y'Ibirunga. Mu birunga habamo amoko menshi y'inyamaswa zitandukanye.

Inkongoro iri kurya inyama. Inkongoro ni igisiga kiguruka, inkongoro igira amakare cyane kuko ikunze kurya izindi nyoni ntoya, ni zo ziyitunze.

Igishuhe n'ubwoko bw'inyoni ziguruka. Igishuhe gikunze kuba mugishanga, igishuhe gitera amagi nk'inkoko nacyo kikarura.

Inka iryamye mu rwuri, iruhande rwayo ikikijwe n'utunyange, utunyange dukunda kubana n'inka ziri mu rwuri, kugira ngo dufatemo uturondwe tuba turi ku nka.

Urukwavu ni akanyamaswa karibwa n'abantu, urukwavu rwo mu ishyamba ruzi kwiruka cyane ,kugira ngo izindi nyamaswa zitarurya.

Mu gihugu habamo ubwoko bw'inyoni butandukanye. Ariko hari inyoni nziza cyane yitwa inyamanza, inyamanza nta bwo yona, inyamanza yirira udusimba gusa, inyamanza ni inyoni nziza.

Inyange n'inyoni nziza cyane ikunda kuba mu ishyo ry'inka, igira ibara ry'umweru n'umunwa usa n'umuhondo, inyange n'inyoni nziza cyane.

Mu mashyamba habamo inyamaswa z'amako menshi, hakabamo n'iziteye amatsiko, habamo inyamaswa yitwa inkura. Inkura ni inyamaswa nini igiye kumera nk'inzovu.

Mu Rwanda dufite inyamaswa zitandukanye harimo inyamaswa ziteye amatsiko zikuru ba mukerarugendo zitwa ingagi, iyi ngagi nini iratubutse wagirango ifite n'amezi.

Akanyamasyo ni agasimba gateye ukwako, kameze nk'ikinyamushongo, iyo kikanze ikintu gasubiza inyuma umubiri wako ,hagasigara ikintu gikomeye kimeze nk'ibuye, kuko ku mugongo wako harakomeye cyane.

Inuma n'ubwoko bw'inyoni ziguruka, inuma nayo itera amagi ariko ntabwo irenza amagi abiri, ikunze kubyara abana babiri gusa, inuma n'inyoni nziza cyane ijya iraguguza iyo isaha igeze.

Inyamaswa y'igikururanda yitwa icugu, icugu ni agasimba gatunzwe no kurya isazi n'inzuki, icugu kigiye kwitwara nk'ingona yo mu ruzi.

Imbogo ni ubwoko bw'inyamaswa zikunze kuba mu ishyamba ry'akagera, zimeze nk'inka; imbogo ni inyamaswa zigira ubukana bwinshi abantu barazitinya.

Igishuhe kiri koga mu mazi igishuhe kigiye kwitwara nk'imbata, ibishuhe nabyo bitera amagi kandi biraribwa. Ibishuhe ni ingirakamaro.

Mu biguruka harimo amoko menshi. Hariho ibihunyira. Igihunyira kigiye kwitwara nk'injangwe. Kigira amaso manini n'amatwi. Igihunyira kigira n'urunwa rwihese.

Igitera n'inyamaswa iba mu ishyamba . Kigiye gusa n'ingagi cyangwa inkima uretse ko bitangana .Igitera na cyo gikurura ba mukerarugendo bakaza kukireba, bakadusigira amadovize.

Inyoni ihagaze ku giti. Iyo nyoni ifite amabara hasi umuhondo, mu gice cyo ku mutwe isa n'ubururu.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni ziguruka. Inuma zirororwa, inuma ziteza abantu imbere, inuma ziraguguza cyane, cyane cyane buri saha. Inuma ni inyoni nziza cyane.

Inyoni ihagaze ku giti. Ku mutwe ifite ibara ry'umuhondo umunwa n'ubururu. Mu gihimba ni umweru no ku bisembe byayo n'umuhondo.

Mu ishyamba habamo amoko menshi y'inyamaswa, inyamaswa zitwa inkende zikunze kuba mu ishyamba rya Nyungwe,...

Inyoni isa n'umuhondo ku nda mu maso hayo harirabura, inyoni yitwa isande ihagaze hejuru y'icyari cyayo , isande zizi kwarika neza m'uburyo bwazo.

Amoko y'inyoni ni menshi, inyoni zivuga amajwi atandukanye, inyoni ni nziza cyane, iyi nyoni isa n'ubururu kunda ni umweru.

Ubwoko bw'inyamaswa yitwa ishya cyangwa ingerage, izi kwiruka cyane ,kera barazihigaga none ubu Leta y'u Rwanda yarabihagaritse ubu zabonye umutekano. Imeze nk'ihene.

Ikiguruka gisa n'umweru, gikunze kuba mu gishanga. Gifite umunwa utukura, kikagira amaguru asa n'umutuku. Abantu barabikunda cyane.

Ubwoko bw'inyoni nziza zifite amabara. Amababa ni icyatsi, umutwe ni umuhondo ku munwa harirabura. Izi nyoni ni ubwoko bwiza cyane.

Inkware ni ubwoko bumeze nk' inkoko uretse ko zo ziba mu kinani, zigira umunwa utukura n'amaguru atukura.

Inkware ni ubwoko bw'inyoni ziguruka, inkware igira amaguru y'umutuku n'umunwa, inkware iraguruka nk'ibisiga bindi, inkware itera amagi ikagera no ku magi makumyabiri.

Mu mashyamba habamo amoko menshi y'inyamaswa, inyamaswa z'inkende zikunze kuba mu mashyamba nka nyungwe no mu birunga , inkende n'utunyamaswa duteye amatsiko , zikurura ba mukerarugendo bakadusigira amadovize.

Inyoni isa n'ubururu ,ku nda hayo n'umuhondo ,ifite umunwa muremure, yafashe agafi ko mu mazi.

Ubwoko bw'ibiguruka bugira amoko atandukanye, hari za kagoma, za marere, ibikona n'ibindi byinshi, ibiguruka ni byiza cyane.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni ziguruka, inuma ziraribwa, inuma zikabyutsa abantu mu gitondo, inuma ni ubwoko bwiza cyane.

Inkware ni inyoni ziba mu kinani, inkware zitera amagi nk'inkoko zishobora kugera ku magi makumyabiri, inkware iyo bazifashe nazo ziraribwa nk'inkoko.

Inyoni zigira amoko atandukanye. Inyoni z'intashya zikunda kwarika iruhande rw'inzu. Ubundi zigahagarara ku migozi n'insinga. Intashya ni utunyoni twiza cyane.

Mu ishyamba habamo inyamaswa z'ubwoko bwinshi. Mu ishyamba habamo igitera, igitera ni inyamaswa igiye gusa n'ingagi, igitera gikunze kubarizwa mu ishyamba rya Nyungwe.

Mu ishyamba habamo amoko menshi y'inyamaswa. Mu ishyamba ry'ibirunga habamo inyamaswa yitwa ingagi. Ingagi zahuruje amahanga, ba mukerarugendo baza baje kuzireba bagasigira u Rwanda amadovize menshi.